Umugabo wambaye igisarubeti gifite amabara y'umukara n'ingofero y'umuhondo, ufashe ku isafuriya ari kuzimya umuriro wabaye mwinshi cyane, hirya yaho akaba ari agatende k'umweru, munsi yako harimo abantu babiri n'umwe uri ku ruhande na we wambaye isarubeti n'ingofero yu y'umuhondo, hirya hari n'abandi bantu bari kwitegereza ibyo uwo wambaye igisarubati cy'umukara ari gukora.

Umupolisi ushinzwe ibintu bya tarafike, uhagaze mu muhanda ,wambaye imyenda za gipolisi n'akagofero k'umukara n'inkweto za butini z'umukara. imbere ye hakaba hari imodoka y'umweru n'umumotari uri iruhande rwe wambaye kasike uhetse n'umugenzi wambaye kasike, hakaba hari n'umunyamaguru uri kujya mu gice kiri imbere y'umupolisi uri kugendera ku mapave.

Ikigo cy'amashuri giteraniyemo abaturage benshi bakaba bicaye ku ntebe z'ibiti, imbere yabo hakaba hari umusirikare uri kubabwiriza ikiganiro. Ahagaze ku mucaca hirya hari uturabyo tw'amabara atandukanye turi mu cyatsi, noneho amashuri akaba ashakajwe n'amabati y'ubururu, hirya hakaba ari igicucu cy'umukara hirya hari n'ibiti byinshi.

Umupolisi n'umugore bahagaze bafashe ikindu kimeze ng'ifoto kiri ifite ibara jy'umweru mo imbere n'utubara tw'umukara tuyikikije, umupolisi akaba afite inyenyeri itatu ,yambaye imyenda z'umukara n'umugore akaba yambaye akandu mu mutwe k'umukara, inyuma yaho akaba ari abandu bari kwitegereza ibyo bari gukora.

Inzu y'ubucuruzi iri gusha iri kuvamo umwotsi mwinji g'umweru. Imbere yayo hakaba hari abantu baje kureba ukuntu iri gusha, n'ukuntu bayizimya kugira ngo umuriro gwe kuba mwinji. Hakaba hari igipoto kinini gitwaye inzinga z'amashanyarazi, kiri imbere y'iyo nzu iri gusha.

Abantu benshi bari mu nama harimo abasirikari n'abandi bagiye batandukanye, bicaye ku dutebe twa purasitike harimo umugabo umwe uhagaze ufashe urupapuro rw'umweru wambaye agashati k'umweru udafite umusatsi. Imbere ye hakaba hari umusirikare urikongorera umugabo bicaranye.

Umudugudu urimo inzu nyinshi cyane, imwe iri gushya umwotsi uri kuzamuka hejuru harimo umuriro uri kugurumana cyane, ikaba ituranye n'amazu afite amabati y'umutuku, imbere hakaba hari ahantu hacuruza amayinite, hari akantu k'akapa ka emutiyene k'umutaka.

Umuporisi wambaye ingofero，wambaye n'agapfukamunwa k'ubururu，n’iniforume ya giporisi，wambaye n’ingweto z'umukara，akaba ari kwereka abagabo aho bakwiye guca，mu abo bagabo hakaba barimo abamotari babiri bambaye kasike n'utujire， abandi bagabo batatu bambaye udupfukamunwa tw'umukara.

Abasekirite ni abandu b'ingenzi cane mu mibereho yacu kubera ko baturindiraga umutekano, haba nijoro no ku manywa kugira ngo tutabagira ikintu cyawuhungabanya. Bakaba bambaye imyenda za kaki n'ingofero za kaki n'ingweto z'umukara. Bamwe bambaye amabote, inyuma yabo hari igikuta c'amabuye.

Umugabo, umugabo uhagaze ufashe mikoro n'urupapuro rw'umweru wambaye ikositimu n'ishati y'umweru, ari kubwira abantu benshi bagiye batandukanye, bari kuganira kubintu byateza imbere igihugu bakaba bari muri sitade irimo ingingi ziriho amabara y'umuhondo.

Abadaso bambaye imyenda zisha n'utugofero dusa bambaye bote zose z'umukara bahagaze ku mucaca inyuma yabo hakaba hari abaturage benshi bari kubitegereza abadaso bakaba bashinzwe gucunga umutekano w'abaturage kugira ngo udahungabanywa n'uwari we wese washaka kuwuhungabanya.

Icyuma kirekire cy'umweru c'ipoto gifite n'ikindi kishamikiyeho, icyo kikaba kiriho za camera no kuri icyo cyuma gihagaze hakaba hari udukoresho twa eregitoronike, hirya yatwo hakaba hari ishyamba ririmo ibiti bifite amashami menshi, imbere y'ibyo biti hakaba hari ipoto ry'umukara rifite n'itara ry'umukara.

Umupolisi uhagaze imbere y'abantu, bamwe bari inyuma ye abandi bamukurikiye bari kumureba ibyo ari kubabwira, inyuma ye hakaba hari indebe zifite z'ibiti zifite aho kwicara h'umukara, inyuma hakaba hari ibintu bikoze nko mu darapo jy'u Rwanda by'imitako ifite amabara y'umuhondo ubururu n'icatsi.

Inama irimo abagabo n'abagore baje gufata imyanzuro ku byemezo bigiye bitandukanye, bakaba bicaye bakurikiye ibindu bari kubwigwa bakaba bicaye ku ndebe zifite amabara gagiye gatandukanye harimo ifite amabara g'umutuku, kandi inyuma hakaba mu itende barimo rikikijwe n'ikindu c'umukara c'igitambara.

Abandu benshi barimo abasutamye n'abandi bahagaze. Inyuma yabo hari ikigo cy'amashuri n'igiti gifite amashami menshi, imbere yabo hakaba hari umucaca. Bakaba basutamye kuri ugo mucaca basa n'abandu bari kwifotoza.

Abagabo bicaye k'umurongo umwe wambaye kositimu n'abandi bagiye bambaye kositimu zifite amabara atandukanye, imbere y'aho hakaba hari ameza ateretseho amacupa arimo ibinyobwa, inyuma hakaba hari ibitambara bitatse n'urumuri rwinshi.

Umugore uhagaze ufashe mikoro wambaye agashati kaja kuba umutuku gwijimye, ufite umutsatsi gw'umukara gunyereje, inyuma ye hakaba hari indebe n'abandi bandu bahicaye, inyuma yaho hakaba hari ibikuta bifite amabara gagiye gusa n'umukara gwererutse.

Abantu benshi bari mu nteko y'abaturage imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ingofero y'umukara ikote ry'umukara rya kositimu n'ipantaro y'umukara ufashe mikoro n'imbere wambariyemo agapira k'icyatsi abaturage bakaba bicaye ku ntebe z'umweru bari gufata imyanzuro ku bintu byabateza imbere.

Abagabo babiri n'abagore babiri. Umugore umwe witeze igitambaro cy'umweru wambaye agapira k'umutuku karimo imirongo, n'undi witeze igitambaro kijya gusa n'ikigina, bunamirije ku kabindi karimo inzoga bari gukuruza imiheha y'uduti.

Uduseke twinshi duteretse ku kandu k'umweru kameze ng'agatambaro. Uduseke twifashishwa mu muco nyarwanda mu kubika ibigori, kubika ibishimbo n'ibindi bigiye bitandukanye n'amafu. Uduseke tukaba ari ingenzi cane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umundu uhagararanye n'inga y'inyambo, ifite isuku nziza cane, kandi ikaba ifite amahembe gigondoye, umuntu akaba afashe agakoni mu ndoki, inyuma yabo hakaba bakikijwe n'igipangu c'ibiti, inyuma y'ico gipangu hakaba hari ibiti by'indusi byiza.

Akazu gatoya kubakikijwe ibyatsi, gakikijwe n'ibyatsi akaba ari co gipangu cako. Kandi mu muco nyarwanda inzu z'ibyatsi zikaba zarafatwaga ng'icumbi ryo kubamo, kandi zikaba zarabaga zubatse neza zifite ingingi imwe hagati, bitaga ingingi ya mwamba ifashe inzu yose.

Ubundi mu busanzwe, umuco nyarwanda, ibitoki, habamo ibitoki byo kurya, harimo ibitoki n'ibyo gukoramo inzoga, hakaba ari abagore batatu bateze ibitambaro n'umwe utiteze igitambaro, muri bo hakaba harimo umwe wambaye agapira k'umweru, bakaba bari kwenga ibitoki byo gukoramo umutobe.

Umundu wambaye ipandaro igiye kuba ng'igitaka, wambaye agapira k'umweru gasa nabi cyane wikoreye umuvure. Hirya yaho hahinze ibigori, hirya yaho hari ibiti bifite amashami menshi uri kugendera mu nzira y'igitaka hafi yaho hari agacaca kameze neza cyane kaba umuvure ukoreshwaga mu kwenga ibitoki.

Abagore bane bicaye imbere bari kuboha ibintu bikoze mu byatsi ibyatsi baboheshamo ibirago n'ibindi bintu bigiye bitandukanye by'imitako bamwe muri bo bakaba batambaye imishanana yo kubakingira ibitugu abandi babiri bakaba yambaye inyuma yabo akaba ari abantu bari gutegereza umwe muri bo yambaye agashati k'umweru undi yambaye umupira g'umukara.

Abagabo benshi bahagaze ku murongo bari kuvuza ingoma. Ubundi mu busanzwe ingoma mu muco nyarwanda, aho igihe ibirori biri kuba, n'aho byabereye abantu bavuza ingoma maze zikabasusurutsa, zikabashira ku murongo, zigatuma banezererwa igihe barimo. Kandi zikaba zifite umwihariko w'ijwi ritandukanye n'andi majwi y'ibindi bikoresho by'ibicurangisho.

Umudamu upfukamye ufite imitsatsi z'umukara, uhetse umwana, n'undi umuhagaze ku ruhande, akaba ari gukora udukono twa kinyarwanda twinshi, akaba ako ari gukora gateretse ku mufuka, inyuma ye hakaba hari inzu ifite sima isa nabi.

Abakobwa bambaye neza cyane bari kubyina imbyino gakondo, imbyino nyarwanda, umwe akaba yambaye uduti tubiri mu mutwe, atwambariyemo utugozi tw'umweru n'undi akaba ari uko, bambaye imyenda irimo akabodi k'umweru, n'indi, n'umushanana urimo utubara dutandukanye twinshi.

Ibiryo bya kinyarwanda bimwe biri ku makoma, ibindi biri mu kantu kabajije mu biti keza gafukuye. Hakaba hari ibijumba, hari ibigori, hari amajeri, hari ibishimbo, hari ibihaza. Byose bikaba bikungahaye indungamubiri zigiye zitandukanye, haba ibyubaka umubiri, ibirinda ingwara n'ibitera imbaraga.

Mu muco nyarwanda tugira imbyino zigiye zitandukanye, aho abakobwa babyina gitore bamanitse amaboko, babyina bitagagura hirya no hino bapfukamye bambaye amayigi inyuma hakaba hari abantu, ariko kureba imihango bari gukora yo kunezeza no gususurutsa abantu bitabiriye.

Umuntu ufite intoki z'umukara ufashe ikirago, ikirago akaba ari ikintu gikoreshwa mu muco wa Kinyarwanda haba kugisasa umuntu akakiryamaho cyangwa se kukiyorosa. Bikaba birambitse mu muhanda w'ibitaka bitukura bisa naho ari mu Burasirazuba.

Inanga ni igikoresho gikoreshwa mu gucuranga imiziki igiye itandukanye ya gakondo. Akaba ari igikoresho cifashishwa mu gususurutsa imitima y'abantu, no gutuma baturisha ubwonko bwabo, kugira ngo basusuruke kandi bizihirwe n'imirya yaco.

Uduseke tugiye dutandukanye harimo ududahuje amabara harimo:agafite umukara n'umweruru, umutuku n'umweru, n'utundi dufite amabara menshi gagiye tandukanye, tukaba twifashisha mu kubika ibintu bitandukanye harimo: ibishyimbo, impungure no kudukoresha igihe ugiye gusura umundu w'inshuti yawe cyangwa umuntu muziranye.

Igitiyo ni kimwe mu bikoresho dukoreshaga turi kubaka inzu zacu, kubera ko tukifashisha turi nko kuyora umucanga n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, kikaba giteretse ku gacaca, inyuma yaho hakaba hari ibintu byanitse ku mifuka byinshi cane.

Abakobwa beza cane batanu, muri bo bane bambaye imishanana zisa, umwe niwe utambaye umusharana gusa n'izindi, uwo wambaye umushanana gusa n'izindi, akaba afite umushanana g'umuhondo gutandiye ibitugu, bakaba bambaye utuntu tw'umweru dufashwe n'uduti mu mitwe, bakaba bafite umusatsi mwiza g'umukara.

Umugabo ufashe igicurangisho co mu muco gwa gakondo, ufashe n'akabindi mu ntoki. Akaba afite umutsatsi g'umukara, wambaye agapira gasa nabi k'umweru, n'kintu yiteze yitandiye ki cy'umweru kimeze nk'igitambaro. Hirya ye hari abantu bicaye, hirya yabo hari ibitoki n'ibiti bifite amababi menshi.

Umugabo wikoreye umuvure, umuvure gukaba gukoreshwaga mu muco gwa gakondo go kwengesha ibitoki. Ibitoki bikavamo umutobe, umutobe tukaba twagwifashisha turi gukora ugwagwa. Akaba ari kugendera mu nzira y'ibitaka, hijya ye hari umurima guhinzemo ibigori, inyuma yabyo hakaba hari ibiti binini byinshi.

Icapa kinini cane canditseho iby'iwacu karica vileji, munsi yaco hakaba hahagaze indore ibiri zifite imitsatsi z'umweru, inyuma yazo hakaba hari abakaraza babiri bahagaze hamwe n'umuhanda gwerekeza ahandu kure cane hari imisozi myiza.

Inka z'inyambo zifite amahembe meza cane, zikaba zambaye utuntu mu ijosi, dufite amabara gagiye gatandukanye menshi, nkag'umukara, harimo umweru, n'ubururu, hakaba hari umugabo uhagaze ku ruhande rwazo, wambaye imishanana, ufite n'ingofero y'urubaraza, hirya y'aho hari abantu baje kureba inka z'inyambo.

Ifu iri mu base yarangije gusekugwa, n'ibindi biri mu gitebo bigiye gusekugwa n'isekuro iteretse irimo gusekurigwamo, n'akadobo kari hijya gafite ibara jy'ubururu ,akandi kabase kari imbere y'isekuro gafite ibara ry'ubururu bugiye ngo kwijima n'umundu wambaye agakanzu k'umutuku....

Agakono gakoreshwaga ng'umuco gw'Igihugu cacu, aho kifashishwa mu gutekeshwamo ibijyo bigiye bitandukanye kandi kakaba kajyoshaga ibijyo mu bujyo bugiye gutandukanye kubera ko aka gakono gakoranye ubuhanga cane kandi bugiye bukomeye, haba gakoze mu bumba kandi kakaba gafite ubushobozi bwo gutekegwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi kakaba gakoreshwa ahantu hagiye hatandukanye bitewe n'umuco gw'agace kandi akaba ari byiza cane kugakoresha.

Umwanda gw'amatungo gwitwaga amase guri mu mbegeti, guvangavanze n'ibyatsi bimeze nk'umukenge, iyo ndobo ikaba ifite amabara gagiye gatandukanye harimo ibara jy'umweru n'ibara jy'umuhondo jy'inyuma, rikaba rifite n'agakondo ko gufatiraho rikaba riteretse ku bitaka byinshi.

Mu muco gwa kinyarwanda abagore kera bagiraga umusatsi mwinshi abaterekaga umusatsi ku kaba Ari umusatsi mwiza cane umugore akaba afite umusatsi mwiza gumukara yambaye agashaneti mu ijosi ku umweru akaba yambaye agapira kagiye kuba umuhondo akaba afite amaso gagiye kuba nk'umukara.

Inzu ndangamurage y'ugwanda imbere yayo hari agasima k'umutuku n'akandi k'umweru nko hagati harimo agati gashinze ikaba isakajwe ibintu by'ibyatsi imbere hakaba hari uruzitiro gw'ibiti n'imigano inyuma yaho hakaba hari ibiti bifite amashami menshi imbere hakaba hari ibitaka biteretseho ho umukeka n'akandi kantu.

Umuvure guteretse ku mabuye menshi, inyuma yaho hakaba hari inzu yubakishijwe amatafari ga rukarakara n'ibyondo. Hakaba harambiitse imishingiriro ku ruhande imbere y'aho hakaba hari agatebe kameze nk'ak'ibuye n'ibitaka biri hasi by'umukara cane.

Agakoresho ka elegitoronike kari ku rukuta rufite amabara, gagiye kuba nk'umukara, hejuru yaho hakaba hari ikirahure, muri ico kirahure inyuma hakaba hari inzu yubakishijwe amatafari gahiye, kano gasuwici kakaba kifashishwaga mu gukaraga no guhindura umuriro, kugira ngo ushire ku muririro ushaka cangwa ucane itara.

Igikoresho gikoreshaga umuriro gw'amashanyarazi, gifite ibara ry'umutuku, hejuru ku ruhande rw'imbere, kikaba gifite ibara ry'umweru, cyanditseho utuntu twinshi nka viwani, vitu, viwani vitu, wawani na watu, hakaba hari n'utundi tuntu two gucomekamo twinshi.

Agakoresho ka elegitoronike twifashisha mu gukupura umuriro igihe tubishaka. Kakaba kanditseho onilite u icyenda cumi na gatandatu. Hakaba hari n'akandi ko gukurura ufunga cyangwa ufungura, kanditseho oni bigaragara ko gacanye.

Agakoresho ka elegitoronike gateretse ku kintu kimeze ng'ameza bifashishaga mu gucangigisha, gafite amenyo atatu ariko umugozi gwumwe bagwukaseho, ako hijya kakaba gafite ibara jy'umukara, imbere mo hagati hakaba harimo ibara jy'umutuku.

Igikoresho cya eregitoroniki kitwa ferasude, kifashishwa mu gukora amatelefoni n'ibindi bikoresho bya eregitoroniki bigiye bitandukanye. Bakaba bakifashisha mu gushyushya ahantu bagiye gushyira agakomponenti bagiye gusimbuza akapfuye. Kikaba giteretse ku meza y'urubaho nziza hirya yaho hari amakaro.

Igikoresho ca elegitoronike bitaga projegiteri, kikaba cyifashishwaga mu gufata ibintu Comptuter yari kwerekana kikabyerekana ku kintu bagitunzeho, kikaba ari igikoresho ciza cane kubera ko gifataga ibintu bitoya kikabigira binini bico bikagaragara neza, kikaba kirambitse ku meza y'umweru, hijya hari umugozi gw'umukara gufite utuntu dutatu two gucomeka.

Ikigo c'amashuri kiri mu caro gifite imijyango igera kuri itandatu, buri mujyango gwufite urugi gw'ubururu, ikaba isakajwe amabati gw'ubururu, inyuma yayo hakaba hari urutoki, imbere yayo hakaba hari ikibuga c'ibitaka.

Inzu nini cane imeze nk'urusengero ifite amabati gagiye gusa n'ubururu imbere yayo hakaba hari ahantu abantu bakarabiraga intoki bari gukuraho imyanda hijya hakaba hari ibyatsi bikoze uruzitiro rw'icyatsi n'ikindi kirekire gifite ibara ry'umutuku gwijimye.

Ibitaro bya Ruhengeri, akaba ari ibitaro biherereye mu karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda, hakaba hakirirwa abarwayi bagiye batandukanye bavuye mu nce zigiye zitandukanye, cyane cyane abo mu karere ka Musanze. Bikaba byifashishwa mu kuvura no gutanga serivisi inoze cyane, kugira ngo abaturage b'u Rwanda bagire imibereho myiza.

Ahandu hari inzira isa n'aho hari umuhanda, hirya y'aho hakaba hari umucaca. Muri uwo mucanca hakaba hamenyemo umucanga w'ubwoko butandukanye, ug'umukara n'ugugiye kuba ng'umuhondo. Hirya yaho hakaba hari inzu bari kubaka iriho ibiti hejuru, munsi hari amatafari gahiye.

Abubatsi bari kubaka inzu nini cane, igaragara ngaho ari amashuri. Bakaba bari kwifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibitiyo, hakaba hari n’abayede bari kubahereza ibikoresho byo kwifashisha bari kubaka. Hakaba hari amatafari go kwifashisha, bari kubaka n’ibiti by’ibikwa byo guhagararaho mu gihe.

Amapoto abiri ashinze mu gisima ariho amadarapo yo mu bihugu bitandukanye hariho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, n'irindi hirya yaho hakaba ari abantu bakarabira bashaka gusukura intoki zabo. Hirya yaho hakaba hari inzu imeze nk'umurenge cyangwa iya Leta imbere yayo hakaba haparitse moto.

Urusengero aho abandu benshi bahuriraga, bavuye mu nje zitandukanye, baje kuramya Imana no gusingiza Imana kubw'ibindu yabakoreye n'ibyo ibakorera uko bwije n'uko bukeye. Hakaba ari ahantu twumvira ijambo ryayo kandi imitima yacu ikanyugwa ikaruhukira muri Kirisito Yesu we waducunguye.

Inzu ya etaje igeretse rimwe ifite ibikuta bisize amarange g'umuhondo. Imbere yayo hakaba hari imodoka zo mu bwoko bwinshi n'abantu bari ku ruhande rwayo. Hirya yayo hakaba hari umucaca, inyuma yayo hakaba hari umusozi.

Ikigo c'amashuri kirimo abandu benshi batonze umurongo. Bamwe bambaye udutaburiya tw'umweru n'amapandaro n'inkweto za congo. Inyuma yabo hakaba hari imodoka, hirya hakaba hari ibyumba by'amashuri, inyuma y'ibyumba by'amashuri hakaba hari ibiti by'indusi byiza cane kandi birebire cane.

Urusengero runini cyane rufite amabati y'ubururu rwubakishijwe amatafari ahiye. Rufite fondasiyo y'amabuye y'umukara arimo uturangi tw'umweru hagati na hagati. Imbere yayo hakaba hari ipoto ritwaye amashanyarazi, inyuma yaho hakaba hari ibiti.

Urusengero rurerure cyane rufite amabara meza cyane afite amarangi gagiye gusanga n'umuhondo hejuru ku gasongero hakaba hari amabati y'umutuku hejuru hariho ikimenyetso cy'umusaraba imbere yaho hakaba hari ikimenyetso cya bikiramariya hijya hari n'umumotari uri kugendera mu gahanda ka mapave.

Urusengero rurerure cane rufite rwubakishijwe amatafari gahiye rufite umujyango g'umutuku imbere yaho akaba ari esikariye zo kuzamukiraho ugiye kwinjirakaba zifite utuntu hejuru dusakajwe amabatigiye gusa n'icyatsi hejuru yayo hari udusaraba no mohagati yago hariho ugundi musaraba.

Ikibuga kirimo umucaca gumwe gumye ugundi gutumye neza, n'ugundi gusa n'ugukeye. Inyuma ya ho hari ahantu hari ikigo cy'amashuri. Nyuma y'icyo kigo cy'amashuri hakaba hari ibiti byinji cyane, muri icyo umucaca hakaba harimo abantu bari kuhagendera, n'igiti gifite ibiti bibiri bigishamikiyeho.

Inzu y'urukiko yanditseho kotihawuzi ofu Musanze, Ingoro y'Ubutabera ya Musanze plezidejistisede Musanze, imbere yayo hakaba hari idarapo ry'u Rwanda rifite amabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu, ikaba isize amarangi y'umuhondo.

Salo iteguye neza cyane ifite intebe zikoze mu biti ariko zifite aho kwicara h'amafuteyi, hakaba ibikuta by'iyo nzu byubakishije amatafari ahiye, hakaba hari n'imeza yubakishije ibiti by'imbaho.

inzu yubakishijwe amabuye, igaragara ko ari iya kera, ifite umucaca imbere yayo, inyuma yayo hakaba hari ibiti by'indusi, bifite amashami maremare, nabyo akaba ari birebire cyane, kandi iyi nzu ikaba ikomeye ugereranyije n'izindi nzu zose.

Etaje ndende cyane ifite amabara gagiye gatandukanye higanjemo umweru mwinshi iri imbere, iri imbere y'umuhanda hariho ipoto ritwaye amashanyarazi n'akamodoka k'umweru kari kugenda mu cyerekezo kiri kugana iburyo bw'iyo nyubako ndende.

Akazu gasakajwe n'amabati g'umutuku munzi yako hakaba hari ibisima byubatse kakaba gafite ingigi nyinji z'utwuma, inyuma yako hakaba hari akandi kazu gafite utubati tugiye kuba umweru, kubakishijwe sima inyuma yatwo hakaba hari ibiti byinji bifite amashami meza n'ikirere cyererutse.

Inzu isa n'iyihishe mu biti iri inyuma cane. Imbere hakaba hari ibiti bifite amashami menshi cane. imbere y'ibyo biti hakaba hari insinga z'amashanyarazi. Munsi yazo hakaba hari akazitiro kameze nka jaride kariho inyuma yako umucaca. Imbere yako hakaba hariho utundi duti dufite amashami menshi.

Ikigo c'amashuri ciza cane gifite amashuri menshi n'ibyumba byinshi gifite ishusho nziza kubera ko gifite amabara meza g'umuhondo gasize neza imbere yamashuri gari hakaba hari idarapo ry'igihugu c'urwanda rifite amabara atatu arigo ubururu, n'umuhondo, n'icatsi, n'izuba riri mwibara ry'ubururu.

Inzu nziza cyane isakajwe n'amabati y'ubururu, imbere yayo ikaba bifite urubaraza rwiza narwo rusakajwe n'amabati y'ubururu, mbere yaho hakaba hari abanyonzi bahagaze n'abandi bicaye, ku ruhande rwo hirya n'igare rimwe ririho imizigo, mbere yiyo nzu hakaba hari igiti kinini, cy'imitako gifite amababi menshi meza.

Ikiraro kiri kunyuraho abagenzi benshi bari kwambuka bajya ku gice kiriho insina n'urutoki，hakaba munsi yaho hari ibyatsi by'umucaca， hakaba hari gucaho abanyeshuri n'abagabo n’abantu bikoreye， icyo kiraro kikaba kiriho inkingi zifite amabara g’umuhondo n’ubururu n'icyatsi，bigaragaza idarapo ry'u Rwanda.

Inyubako ndende cane zifite ibyumba byinshi cane, aho hagiye hateretse utumeza imbere ya buri cumba kandi tukaba dukikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma, imbere yabyo hakaba hari ibitaka byiza by'umukara, imbere yabyo hakaba hahinze ibishyimbo, hirya yaho hakaba hari imisozi n'agace gatuyemo abantu.

Inzu iteretsemo ameza y'imbaho, hakaba hateretseho polinda irimo impapuro, mbere y'iyo meza hakaba hariho intebe ivunwa, linda ikaba yifashishwa mu gufotora ibintu byanditse kugira ngo igire byinshi.

Ahandu heza cane hari amazi, hagari hari n'amashamba, heza cane hari inzu nini ya Leta ifite amarangi g'umuhondo, n'uturongo turi guca mu matafari gahiye, isakajwe amabati g'umutuku hari esikariye ziri kujayo.

Inzu imbere yayo hari umucaca urunzemo amabuye, umwe wumye n'undi usa n'utoshyemo gakeya, iyo nzu ikaba ifite inkingi zifite amarangi y'umuhondo n'umweru inyuma yayo hakaba hari ikimenyetso cy'ifoto ya bikira mariya, ikaba yanditseho mwamikazi wa gwadilupe udusabire, hejuru hari ikimenyetso cy'umusaraba kirimo akazeru.

Umusigiti munini cane gufite amabara g'umweru hejuru ku kintu kimeze nk'ikizeru ufite ibara jy'umuhondo harimo akantu gahagaze kameze nk'umunara hijya hari inkingi ndende kurusha izindi nayo imeze nk'umunara imbere yayo hakaba haparitse imodoka imbere yaho akaba ari agati kameze nka'kajaride hirya yaho hakaba hari agashamba karimo ibiti by'inzu.

Inzu y'igorofa ya etaje igeretse inshuro ibiri, ikaba ifite ibirahure byijimye, bimwe bikinguye n'ibindi bidakinguye, hakaba hari abantu bari kunyura iruhande gwayo, ikaba imbere yayo hari agacaca kari kugaragara.

Abantu bicaye n'abandi bahagaze, umwe ufashe mikoro hirya ye hari bafure y'indangururamajwi irangururaga amajwi aba ari kuvuga, hirya y'igipangu cy'ibyuma hakaba hari abantu bari gushungera ibyo aba bari kuvuga, hakaba hari akameza gateretseho amazi gwo kunywa.

Abantu bari mu nyubako imeze nk'aho ari inyubako ya leta, hari abantu bane bicaye ku ntebe imbere hari n'abandi bicaye inyuma ku dutebe dufite amabara g'umweru n'ubururu, hakaba hari hijya ibitambaro bimanitse bikoze nko mu dorapo jy'u Rwanda, bifite amabara g'umuhondo, ubururu n'icatsi.

Umugore muremure wambaye ikanzu ndende, ufite imisatsi y'umukara, amanitse akaboko, akaba ari kuganiriza abaturage benshi bari mu mudugudu, abo baturage bakaba bakurikiye uno mugore, ku nama n'imyanzuro bagiye gufatira muri iyi nama, isa n'inama y'umudugudugudu.

Abaturage benshi bari mu nteko y'abaturage, imbere yabo hahagaze umudamu witeze igitambaro cy'icyatsi, wambaye ikanzu iciye amaboko, hakaba abantu bari kwitegereza ibintu ari kubabwira, inyuma yabo hakaba hari akantu kameze nk'akarima bamwe bicaye ku maguru.

Abaturage benshi bari mu nteko y'abaturage, umugore umwe uhagaze ufashe mikoro, ufite imisatsi y'umukara wambaye imyenda yo mu gitenge, iruhande rwe hari umugabo ufite ubwanwa burimo imvi, wambaye ingofero inyuma yabo hakaba hari amago n'amazu hamwe n'ahahinze urutoki.

Abantu benshi bahagaze hamwe bameze nk'abari kwifotoza bose bambaye udupira two hejuru dusa ariko ibyo hasi bisa n'ibitandukannye hagati ya bamwe hari icapa canditseho makumyabiri makumyabiri na kane Rwanda.

Inteko y'abaturage bateraniye hamwe baje kumva imyanzuro no kwiga ku byabateza imbere, hakaba hari umuntu uhagaze imbere yabo, abandi bicaye ku gatebe, abandi bicaye hasi, hijya yabo hakaba hari igiti gifite amashami menshi n'inzu iteye sima imbere, ifite amarangi g'umuhondo.

Abandu bane bicaranye, umwe utari kugaragara neza abandi batatu bari kugaragara. Imbere yabo hateretse amacupa g'amazi n'ibipapuro . Hijya hakaba hari umusaza uhagaze ufashe igipapuro, wambaye agapfukamunwa n'ikoti, kaba ari bateretse ku meza hakariho idarapo ry'u Rwanda.

Abagore babiri n'abagabo babiri， bafashe utwibo bishimye cane bari guseka， abagore babiri biteze，bambaye ibitenge by'amabara gagiye gatandukanye， ariko gavangavanze， n’umugabo wambaye agapira k'umuhondo， kavanzemo agandi mabara g 'umweru， n’umukara， n'undi muhungu uri ku ruhande，wambaye agapira k'umukara n'ipantaro ija kuba ikigina cy'igitaka， inyuma yabo hakaba hari icapa cyiza cyane.

Abantu benji bari mu nama bakoraniye hamwe bari kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye n'ubujyo babikemura, bari no kumvikana kugira ngo barebe ukuntu bateza imbere bo ubwabo n'igihugu cabo n'ukuntu bakumvikana ku bintu bigiye bitandukanye binyuze mu biganiro.

Abagabo babiri bahagaze, umwe wambaye kositimu undi utambaye ikositimu. Uwambaye kositimu akaba afashe ikiganza cy'uwo wambaye, utambaye kositimu. Inyuma yabo hakaba hari abandi bandu bahagaze n'abandi bicaye bari kwitegereza igikogwa abo bantu babiri bahagaze bari gukora. inyuma yabo hakaba hari ibiti.

Bisi nyinji cane zishorerekanye zifite amabara gasa arimo umweru n'icatsi cererutse zanditseho kibiyesi, zikaba ari bisi zifashishwaga kuri taranziporo yo mu mugi gwa Kigali cane cane kugira ngo byoroshe ingendo z'abaturage mu mugi gwa Kigali.

Abanyonzi babiri bari imbere bambaye udupfukamunwa, bafite amagare gafite indebe nziza. Inyuma yabo hakaba hari aba agenti bakoreraga sosiyete ibiri zitandukanye, aba agenti ba emutiyeni n'aba agenti ba tigo. Amagare gakaba gari ku bitaka.

Umunyegare ufashe ku kimodoka kinini, gitwaraga amakontineri, n'imizigo iremereye cyane, ibi bintu bikaba bitemewe ko umunyegare yafata kuri iki kimodoka, kubera ko kino kimodoka gikoze impanuka, cyakwangiza kigahitana ubuzima bwe, bityo leta ikaba ibuzanya ko umunyegare yafata ku modoka, mu gihe atwaye igare rye.

Imodoka ikoreshwaga mu gutwara abagenzi mu Mujyi gwa Kigali, ikaba iparitse ku capa hari abantu bari kujamo bari bategerereje hijya yaho hakaba hari agatebe gakoze mu byuma abagenzi bategerezagaho iyi modoka ikaba ijanaga abantu benshi ugereranyije n'izindi modoka zijyaga mu ndara.

Ikimodoka kinini cyane, cyifashishwa mu gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, kikaba giparitse ku cyapa, aho abantu binjiriraramo, bategererereje kino k'imodoka, bakaba bagiye kwinjira, hirya yaco hakaba hari umumotari, wambaye kasike y'umutuku, uri kugenda, uri kujya mu cyerekezo iki kibisi kiri kujyamo , nyuma yaho akaba ari umudugudu utuyemo abantu.

Ikamyo nini cyane ifite amabara y'ubururu n'umweru ifite amapine ane imbere yayo hakaba hari inzu ifite utubati imbere hari inzugi z'imbaho ziri imbere hakaba hari umugore witeze agashora k'umweru ufashe i base n'undi uhetse umwana bari kwerekeza ahantu hari gitari.

Imbangukiragutabara ni imodoka itwara abarwayi ikabajyana ku bitaro byegereye hafi, kugira ngo ibahe ubufasha, abarwayi barembye cyane kugira ngo bataremba bikagera ubwo babura ubuzima bwabo, ikaba mu ndimi z'amahanga yitwa ambilanse.

Igikamyo kinini cyane gifite amapine menshi, gafite amabara g'umukara, mu maringi gafite amaburo gasa umweru na go gasa umweru, gifite igitanga co gusukamo amazi cangwa esanze, gifite ikizuru gifite ibirahuri by'imbere byo kureberamo, bifite ibishishwa by'inyuma by'umukara byiza cane.

Imodoka itwaye ibiribwa by'ibihaza bya wotameloni. Ikaba ifite amabara y'ubururu ,hejuru yayo hakaba hari ihema ry'ubururu n'umuhondo wunamye muri izo wotameloni. Inyuma yaho hakaba hari akabari gafite akapa k'akazeru kanditseho sikoro.

Muri gare aho abantu benshi bavuye mu bice bitandukanye by'igihugu bahurira baje gushaka imodoka zibajyana ahantu hagiye hatandukanye bagiye, akaba ari gare ya rutiyeri nyakararambi ibamo imodoka zitwaraga abagenzi.

Umugabo wicaye hejuru ku biduki, noneho akaba afashe vola atwaye imodoka, moto y'amapine atatu, inyuma hakaba hari abantu bari gusunika, akaba atwaye ibiduki bifite amabara y'umuhondo, hirya yaho akaba n'umugore utwaye ibikarito, hirya hari n'abantu babiri bari gutegereza ibyo bari gukora.

Imodoka itwara abagenzi iri kubajyana mu bice bigiye bitandukanye ya sosiyete itwara abagenzi yitwa orizo ifite amabara y'umweru arimo uturongo tugiye kuba umutuku n'uturongo tw'icyatsi hirya yayo hakaba ari umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'akajiri kicyatsi inyuma yayo hakaba hari amago atuyemo abaturage.

Umunyonzi ufashe mu mahembe y'igare, inyuma ye akaba ahetse igifuka kirimo ibintu, akaba ari kugendera mu muhanda w'ibitaka, hirya ye hari ibihuru birimo ibyatsi byinshi bimeze nk'imigano, inyuma ye hakaba hari umuntu umeze nk'uri kuza mu cyerekezo ari kuzamo, hirya hakaba hatuye abantu mu giturage.

Muri gare aho abantu benshi bahurira bavuye mu nce z'igihugu baje gutega, kugira ngo bajye mu byerekezo bashaka kujyamo. hakaba harimo imodoka zo muri ama ajanse menshi agiye atandukanye. Hakaba iyanditseho ruhire egisipuresi, indi yanditseho fidelite. Imbere y'iyo yanditseho ruhire hakaba hariho icyapa kigaragaza ahantu ijya, n'abantu benshi bari muri gare.

Imodoka itwara abagenzi. Iyo kampany yitwa virunga expres. Ikaba ari imodoka ya coaster ijyamo abantu makumyabiri nicyenda. Bisa naho yangiritse imbere. Ikaba ifite amarangi y'umweru ifite droviseri z'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari benshi n'imodoka imwe, abamotari bambaye kasike zigiye zifite amabara atandukanye, imbere ya ho hakaba hari umujyi wa Kigali, impande ya ho hakaba hari ibiti bigira amahwa, aha hantu hakaba ari ku Gikondo.

Imodoka ikoreshaga amashanyarazi yanditseho "wane handredi pasenti elegitriko", ikaba ikoreshaga amashanyarazi gusa, akaba ari ko karusho kayo ugereranyije n'izindi modoka, kubera ko izindi modoka zikoreshaga esanse zitwaraga amafaranga menshi, bityo iyi modoka akaba ari nziza ugereranyije n'izindi.

Bisi ibiri ziri bugendera mu muhanda inyuma yazo hari akandi kamodoka n'abanyamagare babiri, hijya yaho hari ibyatsi, ibiti bimeze nk'ibyatsi byinshi ,hirya y'aho hari amatara gari mu kirere ,hari n'umuhanda mwiza gwa kaburimbo zikaba zifashishwaga mu kujana abaturage mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu zikaba zikoreshwa mu Mujyi wa Kigali.

Imodoka yikoreye ibintu bijyaniranye n'ibiribwa harimo ibitunguru, harimo karoti, harimo beterave akaba ari imboga zifasha mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu, no kugira ngo zubake umubiri wa muntu agire ubudahangarwa bwo kurinda indwara.

Ikimodoka kinini kirekire cyane cyo mu bwoko bwa hoho, kifashishwa mu gutwara imizigo iremereye cyane. Inyuma yacyo hakaba hari n'ikindi gisa n'ikiri kuza mu cyerekezo kino kirimo. Hirya hakaba hari sitasiyo aho banyweshereza esanse, bikaba biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Kino cy'imbere kikaba cyagize ikibazo.

Imodoka za yego kabu, ziri ku murongo zifite amabara akagiye gusa, uretse imwe ifite akarongo kagiye kuba n'umuhondo, n'indi ifite akarongo kagiye gusa n'umutuku, hakaba hari ibyapa biri hirya birikupoto, kimwe cyanditseho henikeni, n'ahandi inyuma hari akapa k'ubururu kanditseho p.

Umudamu wicaye ku gare witeze igitambaro c'umukara, akaba afashe mu mahembe ahetse igifuka kirimo ibindu bimeze ng'amashu. Munsi y'ico gifuka harimo akandi gapfunyika, hirya yaho hakaba hari imodoka ifite amabara g'umutuku, akaba ari kugendera mu muhanda gw'igitaka.

Muri gare, aho abantu tuvuye hirya no hino duhurira tuje gutega imodoka, ngo zitujyane mu bice by'igihugu dushaka kujyamo, ikaba ari gare ya Nyabugogo irimo amasosiyete atwara abantu agiye atandukanye, haba imodoka za yutongo n'izijya mu ntara za kwasiteri harimo iziva to ruka abantu benshi baje gutera bagiye mu ntara cyangwa hirya no hino.

Mondo uri gukaraba intoki muri gare hasa nahari abandi bantu bari inyuma ye bategereje ko batega bisi ikabajana ahantu hagiye hatandukanye bitewe naho bashaka kuja kaba ari muri gare igaragara ngaho ari muri gare ya Nyabugogo aho abandu baba bategerereje imodoka kandi bategereje bihangane.

Ni imodoka nyinshi zitondetse ku murongo zifite torovizere zisa, zifite n'amabara y'umweru, zifite n'akabara k'ubururu n'akabara k'icyatsi kari hasi. Imbere yazo, hakaba hari umuntu. Izi modoka akaba ari imodoka za sosiyete yitwa Ritiko.

Umunyonzi wambaye akajire k'ubururu n'ingofero y'urubaraza, uri kureba inyuma ari guseka , akaba yambaye kamambiri, inyuma ye hakaba hari abantu bahagaze , abandi banyonzi bari nk'imbere, n'indi mitaka iririmo imbere cyane bacururizamo ibintu bijyanye na m'ayinitenite.

Ishirahamwe ry'abanyonzi batwariraga ku magare batwaye abantu. Bakaba bategereje abagenzi. Bari kureba hirya no hino ngo barebe ko babona abagenzi batwara. Bakaba bahagaze, mu gihe bategereje kandi bakaba bihanganye kugira ngo abagenzi nibaza, babatware bitewe n'ahantu bashaka kuja.

Imodoka zikoreshwaga mu mujyi gwa kigali, kujana abagenzi ahantu hagiye hatandukanye hakaba hari abagenzi bari bategereje kucapa, bakaba bagiye kwinjira mu modoka, kugira ngo ibajyane aho bagiye akaba ari isosiyete yaje haritaransiporo igiye kubana, ifite amabara umweru n'akabara k'ubururu, gaciye muri ibyo byumweru.

Imodoka yitwa Hoho itwaraga imizigo ikaba itwaye umucanga, hejuru y'ugo mucanga hakaba harambuyeho ihema ry'ubururu , kuri iryo hema ry'ubururu hakaba hahagazeho umuhungu muremure , ikaba iri mu mazi , hirya hakaba hari ibigori , hino hakaba hari umugore uhagaze ku mucaca wambaye igitaburiya cy'ubururu.

Abantu batatu batatu bari mu bwato butandukanye, bumwe bwegereye ingombe, ubundi buri hirya y'ingombe, bakaba bicaye abandi bahagaze, umwe afashe ingoni, abandi bicaye, umwe yicaye ku mifuka undi ari kureba mu mazi.

Indege nini cane bitaga Kago yifashishwaga mu gutwara ibintu bijaniranye n'imizigo. Ikaba ifite amapine abiri imbere, inyuma ifite n'agandi mapine abiri. Ikaba ifite utuntu tumeze nk'utudirishya twinji turi hejuru, ikaba ifunguye umuryango wayo, bagiye gushiramo umuzigo munini.

Imodoka zifashishwaga mu gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali ukinjira ugakozaho ikarita wanasohoka ugakoho ikarita kugira bakugarurire, inyuma yayo akaba hari akamodoka k'umweruru, hijya hakaba hari ahantu hari ibyatsi n'ibiti binini cyane.

Muri gare niho abantu benshi duhuriraga tuje gutega imodoka tugiye mu byerekezo bitandukanye. Hakaba hari imodoka nyinshi zo mu ma ajanse menshi gatandukanye, harimo Sitera, harimo Safari, hariho igiteleviziyo kiri inyuma kinini cyane, hirya yaho hari udushyamba twinshi.

Ikimodoka kinini cyane gitwara abagenzi, gifite amabara agiye atandukanye, n'ibirahure byinshi, inyuma yacyo hakaba hari akandi kamodoka gatoya, gafite ibara ry'umweru, kagendera mu muhanda wa kaburimbo, hirya hakaba hari amapave abagenzi b'amaguru banyura, hirya hakaba hari ibiti byinshi.

Abakobwa bane bafashe imipira bameze nk'abari kwifotoza, bafite ibisuko bambaye udukabutura n'udupira n'udusengeri, inyuma yaho hakaba hari Neti ya Vole barengerezagaho Vole bari gukina, inyuma hakaba hari ibiti byiza bifite amashami menshi.

Ikibuga cy'umupira cyiza cyane kigiye kirabamo imirongo y'umweru irimo hagati n'iri ku ruhande. Hirya yacyo hakaba hari amapoto abiri:iry'umweru n'irindi ry'umweru riri ku mpande zitandukanye. Hirya yaho hakabs agatebe ko kwicaraho bizengurukijwe n'igipangu cya senyege nyinshi. Nyinshi cyane.

Abantu benshi bambaye udukabutura n'udupira tw'udusengeri, bambaye n'inkweto zigiye zifite amabara agiye atandukanye, bakaba bari muri sitade, bakandagiye ahantu hafite ibara rigiye kuba nk'umutuku, hirya ya ho hakaba hari intebe zo kwicaraho muri stade na zo zifite amabara atandukanye, ku rundi ruhande hakaba hari itapi y'umucaca, hirya hakaba hari umuntu wambaye akajiri.

Abantu benshi bari muri siporo bambaye udukabutura n'udupira n'udusengeri, bakaba bari kwirukanka bari kwerekeza imbere y'aho bari kuja, hirya yaho hakaba hari ibiti bifite amashami menshi, inyuma yaho hakaba hari inyubako ya etaje n'indi iri imbere ifite amabara umuhondo.

Umukinnyi wa basiketi ufashe ku kindu c'icuma banagagamo umupira gwa basiketi. Gifite akandu kakanete ko kunyuramo ugo mupira, akaba yambaye agapira k'agasengeri k'umweru, gafite nimero cumi kanditsweho viziti Rwanda. Yambaye n'ikabutura y'umweru. Inyuma ye hari abandi bari kureba uko ari kubigenza.

Abantu bane bicaye ku dubetebe tureture, umwe wambaye agakoti k'umweru usa naho akuze kurusha abandi, wambaye n'uturinete n'umutsatsi gw'umukara, n'undi ukurikiyeho wambaye akantu k'umukara k'agatiriningi, n'abandi bambaye utuntu tw'umukara tw'udupira two hejuru, bambaye n'uturinete, inyuma yabo hakaba hari abanyeshuri bambaye udupira tw'umweru.

Imikino isigaye yarateye imbere cyane mu gihugu cy'u gwanda aho abahungu n'abakobwa bemerewe gukina imikino ku buryo bungana n'amahirwe gangana kubera ko ubu urabona ko abakobwa bari gukina umukino gwa basikete ntawuhejwe amakipe abiri gatandukanye.

Basikete isigaye yarateye imbere cane mu gihugu c'u Rwanda Aho abakinnyi benshi basigaye bakina batitaye ku moko cyangwa ikindi icyo aricyo cyose cyabatera kudakina ahubwo bagakina bashyizemo umwe n'abakinnyi bishimiye umukino bari gukina kandi.

Imikino gw'amagare guri muri imwe mu mikino itezaga imbere ubukungu bw'Igihugu kubera ko buzanaga ba mukerarugendo bavuye hijya no hino baje kureba amarushanwa gari kubera mu Gwanda gahuje ibihugu bigiye bitandukanye, akaba ari abanyonzi benshi bavuye hijya no hino n'abafana bari gufana amagare.

Idarapo jy'u Gwanda jyiza cane rifite amabara meza cane muri ago mabara hakaba harimo: ibara ry'umuhondo go hagati ,hakaba hari n'ibara jy'icatsi jyo hasi ,ibara jy'ubururu jyo hejuru ririmo izuba, inyuma y'ijyo darapo hakaba hari ibiti byiza cane munsi y'ago madarapo hakaba hari itende.

Abakinnyi b'amagare bafite amagare meza cyane bambaye n'utugofero tw'akazi two gukoresha bari gukina imikino y'amagare. Bakaba bafite amagare meza cyane hirya yaho hakaba hari ibiti birebire cyane, imbere y'ibyo biti hakaba ari akantu ko kugenderaho, kagenderagaho abagenzi, nyuma yaho hakaba ari umucanga n'imisozi myiza cyane.

Abakinnyi ba tenisi b'abakobwa batanu bahagaze ku murongo， bamwe babiri bambaye utugofero，abandi batatu batambaye utugofero， bambaye inkweto zitandukanye mu mabara，umwe wambaye iz'umuhondo n'abandi bambaye agandi mabara gagiye gatandukanye，ahagaze mu kibuga cy'ibitaka， inyuma yaho hakaba hari amadarapo menshi gagiye gatandukanye.

Umugabo ufashe umupira ari kureba hejuru asa naho ari kureba muri paniye. Umupira gukaba gufite amabara agiye gatandukanye harimo uturongo twinji binyuranyemo, akaba ari tubiri turi kurebana n'akandi gaciyemo hagati n'akandi kazinyuzemo zose akaba yambaye agasengeri gafite amabara g'umutuku n'umukara.

Abakinyi bakinaga umukino wa baskete, umwe ufite ibisuko by'ibituta undi ushaka kumwaka balo, wambaye agasengeri k'umweru n'ikabutura y'umweru n'amasogisi g'umukara n'inkweto z'umukara, uwo ari kwaka umupira wambaye agasengeri k'umukara n'ikabutura y'umukara, inyuma yabo hakaba hari umusifuzi uri kubasifurira n'abafana bicaye mu ntebe z'inyuma.

Ikibuga c'umupira kirimo abakinyi n'abandu baje gufana bari muri sitade bicaye n'amatara gari kwaka, kubera ko ari nijoro. Hakaba hari utundu two kwicariraho bitaga vesitiyeri, igihe abakinyi bavuye mu kibuga cyangwa abandi bategereje kuja mu kibuga.

Abakinnyi bakina umukino wo kwirukanka, bambaye udusengeri turiho amanimero n'udukabutura, n'inkweto zifite amabara agiye atandukanye. Bari kwirukanka mu muhanda wa kaburimbo. Uno mukino ukaba usigaye warateye imbere mu gihugu cyacu, hasigaye habera amarushanwa ahuza ibihugu bya Afurika yo kwirukanka.

Umugabo muremure cane w'igikara, wambaye akantu kameze nk'agakora, karimo amabara y'umutuku n'umukara n'inkweto z'umweru zirimo akantu k'umukara wijimye no hasi. No hasi hariho ibitaka bigiye kumera ng'ibyijimye akaba arifashe ikintu kimeze ng'ingoni agiye gutera hejuru akaba ari umwaterete wambaye agapira kanditseho gerenada.

Umupira gufite ibara ry'umweru， gwanditsemo amagambo ya voriboro， mu Rwanda bikaba byarateye imbere ko abagore n'abagabo， bose bakwiriye kwitabira guno mukino gwa voribore，gukaba gwarateye imbere cyane ugereranyije n'urwego twari turiho nko mu myaka icumi isize.

Umukino gwa tenisi gusigaye gwarateye imbere cane mu gihugu cacu. Aho mu Rwanda dusigaye dufite ibibuga byinshi by’umukino gwa tenisi. Aho ibi bibuga ari ibibuga bigera kuri bitandatu bigerekeranye bya tenisi, bikaba biherereye mu Karere ka Kicukiro, ku kigo ca Ayipiyarasi Kigali.

Umukinnyi ufashe balo ya handibolo ugiye nko gutsinda igitego hakaba harimo umuzamu mu kazamu gatoya ka hanndibalo .Uwambaye agapira k'icyatsi n'abandi bakinnyi bari kumureba, bambaye udupira tw'umuhondo turimo ubururu n'amakabutura y'ubururu ,inyuma yabo hakaba hari abanyeshuri bari kureba uwo mukino hirya yegamiye ku bikuta byubakishijwe amatafari ahiye.

Umukino go koga ni umukino gutezaga imbere abagukoraga kandi gukabahesha kubona amahirwe yo guserukira igihugu cacu mu marushanwa go koga hijya no hino, aba bandu ni abandu benshi bari marushanwa go koga bamwe ari abirabura abandi b'abazungu, inyuma yaho hari utuntu tw'umweru tuba turi ku bwato twanditseho viziti.....

Umukino wa basikete mu Rwanda usigaye warateye imbere cyane, aho buri muntu wese asigaye yishimira kuwureba kubera urwego wagezeho wo gutera imbere akaba ari umukinnyi washyize baro mu kirere yegereye neti yo kunagamo umupira.

Baro yifashishwaga mu mikino ikaba ifite amabara:umuhondo n'irindi bara ry'ubururu bwijimye, ikaba yanditseho ve magana atatu daburiyu, muri iryo bara rikaba ari ibara ry'umweru ryanditsemo ago magambo, akaba yifashishwaga mu guteza imikino imbere, no guteza imbere imikino n'umuco na siporo.

Umukino gwa futubolo gusigaye gwarateye imbere cyane aho buri muntu ashobora gushimishwa na go cane cane mu gihugu c'u Rwanda abakinyi ba reyo siporo bane bambaye imipira y'ubururu yanditseho sikoro ifite n'utuntu tw'umweru mu bitugu babiri bafite ibisuko bigiye nk'inyuma nyuma yabo hakaba hari ikibuga co gukiniramo.

Abakinyi bakinaga umupira gwa futuboro, umwe w'igikara undi w'inzobe. Umwe wambaye agapira k'umutuku, n'undi wambaye agapira karimo umuhondo n'ubururu, wambaye kane ufashe umupira bigaragara ko ari ngaho ariwe ugiye kugukina. Inyuma yaho hakaba hari uwundi mukinyi uri kureba n'abandi bafana bicaye inyuma muri sitade mu ndebe z'ubururu.

Amazu meza cyane, afite n'ibipangu byiza cyane, ikaba ifite amabati agiye gusa n'umutuku. Imbere yayo hakaba, hari akajaride k'ibyatsi, n'ikindi cyatsi gifite utwatsi twinshi cyane kirekire. Hakaba hari umukobwa uri kugenda mu nzira iri imbere y'iyo nzu.

Ahantu hari inzira ngari h'ibitaka hijya ya ho hakaba hari inzu yubakishijwe isima yasakajwe n'amabati menshi, ikaba ifite igipangu c'amabuye, imbere ya ho hakaba hari ibiko n'ibishimbo bya ruvuna ingingi byiza cane kandi byifashishwa mu gutegura amafunguro.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibice bibiri, aho imodoka zinyura mu ruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso, ifite uturongo ducagaguye dufite amabara y'umuhondo utu turongo tukaba tugaragaza ko hano hantu hemerewe kudepansirirwa, imodoka ikaba yagucaho bitewe nuko itawe iri kugenda gahoro, hakaba hari imodoka iri hirya ku mapave ifite amabara y'umutuku.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda gwa kaburimbo, ugwo muhanda gukaba gurimo uturongo, tuno turongo tuba tugaragaza ko umuntu yemerewe kudepansa imodoka iri imbere ye, akayidepansa akaza ku yindi, noneho izi nzu z'ubucuruzi bakaba bacuruzaga ibintu bigiye bitandukanye, zifite n'amabara gatandukanye.